Abana bane bagiye kuvoma ku ivomero rusange bafite utujerekani, iruhande rw'iriba hakaba hateretse isuka, umwe muri bo akaba ari gupompa amazi mu gihe mugenzi we aba ari kuvoma.

Umugabo wicaye hasi uboshywe n'amapingu ku maboko uzengurutswe n'abandi bantu benshi wambaye umupira utukura n'ikabutura y'ikoboyi, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Itsinda ry'abantu benshi rigizwe n'abanyeshuri, abaganga n'abandi bantu batandukanye, bari muri kampeyini yo kurwanya sida bakaba bafite bandarole yanditseho amagambo ashishikariza urubyiruko kwirinda sida ngo bacunge ahazaza habo.

Umuntu wicaye hasi wambaye imyenda ya siporo igizwe n'inkweto zivanze ipantaro y'umukara n'agapira cyangwa agasengeri ka oranje, akaba ari gukora siporo yo kurambura ingingo, aho ari kurambura amaguru ndetse n'amaboko.

Umukobwa uri gukora siporo, wambaye agapira gatukura, ufite imisatsi miremire itendera inyuma, uri kunywa amazi, urikumva ekuteri mu matwi.